Hari abantu benshi abamama bakenyeye imishanana na cyangwa se mikenyero, abagabo bambaye neza bambaye ama mama bambaye udushahati cyangwa se dusengeri tw'amabara y'umuhondo umutuku abagabo bambaye amakoti y'ubururu, amashati y'umweru na karuvati.

inyubako yicayemo abasore bane n'undi muntu utagaragara neza uri kugaragaza umutwe gusa bicaye mu ntebe nziza z'umweru inzu barimo ifite amarido y'umuhondo imbere yabo hari ameza ateguye neza hariho igitambaro cy'umukara kivanzemo n'utundi tubura tw'umweru.

Abagore babiri bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo ku meza hari mudasobwa, hateretse n'uducupa tw'amazi yo kunywa, abo bagore bombi bambaye indorerwamo z'amaso, inyuma hari amarido ari mu ibara ry'umweru.

Icyumba cy'inama, abashinzwe umutekano, hari abandi hari urubyiruko rwambaye imipira y'ubururu, hari umudamu n'umugabo, telefone ziri ku meza n'impapuro.

Ni mu cyumba k'inama, hari abagabo bambaye amakote, harimo n'umudamu umwe, imbere yabo naho hicaye abandi bantu, harimo abagabo harimo n'umudamu, bose bambaye amakoti y'umukara, imbere bambaye amashati y'umweru na karuvati.

Mu cyumba cy'inama hari abantu benshi bicaye, imbere yabo hari mudasobwa, hari amakayi, inyuma na ho hari abandi, bigaragara ko icyumba cyuzuyemo abantu.

Abantu bicaye ,abagabo n'abagore. Abagore bafite indangururamajwi bicaye afite isura y'umukara bicaye ku ntebe zifite imisego zaho ngaho, barimu itangazamakuru.

Ni mu nzu hicaye abagabo, bafite amazi imbere yabo ku meza, ameza arateguye ateguyeho igitambaro cy'umukara, bafite amakaye, amatelefone, inyuma yaho intebe bicayeho n'iz'umukara, tapi irasa umuhondo.

Mu cyumba cy'inama hari abagore n'abagabo baricaye, imbere yabo hari ameza ateretseho amazi na ji zo kunywa, hirya hari umugore umwe wicaye wenyine uri kuyobora, inama inyuma ye hari ikirango kirimo amahembe y'inka.

Icyumba k'inama gifite amarido y'umweru n'inzugi z'ibirahure zifite akarangi k'ubururu ku mpande, kicayemo abantu benshi basa n'abakurikiye inama, bamwe mu bicaye imbere harimo umugore uteze igitambaro, wambaye agakoti ka kake n'agapira k'umukara, imbere hateretse machine n'agacupa k'amazi na telefone y'umweru.

Hari abantu bicaye mu itente cyangwa se ibyo twakwita ihema, imbere yabo hari ameza ateguyeho igitambaro cy'umweru, harambitseho ishakoshi, hasi hateretse andi mashakoshi, abicaye bambaye ibintu bisa bambaye imipira y'umuhondo, ifite amakora y'umweru.

Icyumba cy'inama hari umudamu wicaye wambaye ishati irimo amabara y'icyatsi n'umweru, afite ikirahure mu ntoki, imbere ye hateretse irindi cupa, kumeza hari ururabo hateritse na tabureti inyuma ye hari abandi bagabo na bicaye, biragaragara ko ari nijoro.

Icyumba cy'inama, hari abantu bicaye ku ntebe zitandukanye barebana, hari umugabo ufite telefone mu ntoki, yambaye imyenda y'umukara, yambaye indorerwamo z'amaso, imbere ye hahateretse agacupa k'amazi n'indi terefone afite ikayi, hirya hari umudamu, hakurya naho hicaye abandi bicaye ,abadamu n'abagabo bose bafite amazi...

Mu cyumba cy'inama harimo abagabo n'abagore bambaye imipira y'ubururu iriho ibirango ku maboko, bafite amazi, imbere yaho bicaye ku ntebe z'umuhondo, bambaye baji, amakarita mu ijosi, harimo n'abambaye indorerwamo za amaso.

Mu cyumba cyangwa muri sare hicaye abantu benshi; imbere hari undi uhagaze afite amazi; abandi bambaye indorerwamo z'amaso.

Ababyeyi n'abana bicaye mu byatsi, inyuma yabo hari icyapa abandi barahagaze, hari n'inyubako ifite amadirishya y'ubururu, hari ibiti byubatse bitandukanye,

Ni abantu bicaye, bambaye amakoti y'umukara, imipira y'umweru, imbere hari uwambaye agapira k'umutuku, yambaye isaha, bicaye hamwe, bicaye ku ntebe z'umukara, inyuma hirya hari abandi bahagaze mu bigaragara ko bari mu nama.

Mu cyumba cy'inama, hari abantu benshi, harimo umwe ufite imikoro icyo twakita ndangururugero twafite indangururamajwi, ku meza hateretse amazi na ji yo kunywa, abantu bahari ni abantu batanu, babiri muri bo bambaye indorerwamo z'amaso undi aritandiye nk'umuyisilamu.

Abagore babiri, umwe wambaye rinete witangije akitariro k'icyatsi kibisi karimo amabara y'umweru, ucigatiye telefone mu ntoki ari kumwe n'umugore w'imisatsi miremire wambaye agapira k'umutuku nawe ucikaye telefoni mu ntoki. impande yabo hicaye undi mugore wambaye agapira k'ubururu uri mu modoka bisa nk'aho aba ari abagenzi bari mu modoka barimo baragenda.

Icyapa kigaragaza iminsi ishize iminsii insigaye kugira ngo habe kurangira bakuri kurekarama uburyo bwa 3 ku muro mu by'umusoro bjiye ku itariki 31/12/2024.

Hari akanasha umuntu wari uri inyuma y'ahantu hubakiye insinga z'amashanyarazi cyaneturuka umuriro w'amashanyarazi ari inyuma yaho

Inzu nziza ya etaje isize irangi ry'icyatsi kibisi cyijimye, ifite urugi narwo rusize irange ry'icyatsi kibisi cyijimye, ifite kandi igikuta cy'uruzitiro gifite amatafari y'impunyu, imbere yayo hari amapave apavomye kuri iyo nzu.

Umunara muremure uri kugaragaza ibara ry'umutuku hasi, impande yawo hari icyuma cy'umweru, uwo munara ukikijwe n'ibyuma, hejuru yabyo hariho senyenge, impande y'ibyo byuma hahagaze umugabo wambaye ikoti ryo mu bwoko bw'ijakete risa ubururu rifite akarongo k'umweru mu kwaha.

Hari abantu bicaye bari kuri mudasobwa, bambaye ingofero, bambaye icyo twakwita ekuteri cyangwa se ibivugira mu matwi, bigaragara ko bari gucuranga bicaye bakurikiranye, bamwe bicaye imbere abandi bicaye inyuma.

Inzu ndende isize irangi ry'umuhondo ifite n'akabara k'umutuku hejuru irimpande y'igipangu cyubakishije amatafari y'impunyu imbere muri icyo gipangu hari ipoto iriho insinga z'amashanyarazi zigemurira abaturage hejuru y'iyo nzu hahagaze ibipoto birebire nabyo bisa nkaho bitanga amashanyarazi.

Ipironi ry'umuriro w'amashanyarazi, rikikijwe n'ibiti n'indabo, hirya hari n'irindi poto ritoya, ririho urusinga rumwe rw'amashanyarazi.

Hari umunara muremure cyane ukikijwe n'ibiti na byo birebire cyane ariko bitabyibushye, hejuru umunara ugizwe n'amabara atukura, umuhondo. Uriho utwuma ku mpande tuzamutse mu byiciro bibiri hejuru hari antene yawo.

Icyapa cyanditseho NLA LIIP ku murongo none aha, urubuga rureberwaho amakuru ku butaka Repubulika y'u Rwanda, abo turibo iyi sisiteme itanga ku buryo bwihuse amakuru y'ingenzi ku butaka.

Hari ikirango kigaragaza ko ari umunsi mpuzamahanga w'umurimo, ahazaza h'umurimo intego dusangiye, uba kuwa mbere gicurasi bibiri na makumyabiri na kabiri, hashushanyije abantu babiri umwe wambaye itaburiya y'umweru ufite n'igitabo mu ntoki undi w'umukobwa wambaye imyenda y'ubururu, hasi hari abari ku ngorofani n'abari kubaka.

Umunara muremure usize irangi ry'umweru n'umutuku, ukikijwe n'ibyuma by'umweru, impande y'uwo munara hari abantu bambaye amajire y'icyatsi kibisi, bigaragara ko baje gukora ibintu byapfuye kuri uwo munara.

Umunara muremure cyane ugira uruhare mu ikwirakwizwa ry'itumanaho ahantu hatandukanye mu gihugu. Uri iruhande rw'inzu isize amarange y'umuhondo. Hirya y'inzu hari ibiti.

Ibi ni ibiro by'ubwishingizi ari byo twita sanilamu hano mu Rwanda iyi ni inyubako ndende rwose bakoreramo, aho ushobora kubagana bakaguha serivisi z'ubwishingizi mu gihe ugize impanuka cyangwa ukagira ikindi kibazo cyatuma ukenera inyishyu y'ibyawe byose.

Hari inyubako ifite urugi cyangwa se cyo twakwika igipangu gisa n'ubururu, hari ifite amabara y'umuhondo n'icyatsi kibisi, inyuma yayo hari igiti kirekire cyane, hari n'ipironi ry'amashanyarazi ririho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Hari ipironi rirerire cyane ririho insinga z'umuriro w'amashanyarazi ari zo zifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, hasi iruhande rwaryo hari ibiti binini by'ubururu, hakurya naho hari amazu hakabamo n'ibindi biti bigiye bikikije muri ayo mazu.

Hari ipoto cyangwa se ipironi ririho insinga nyinshi zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi hirya no hino. Hirya cyangwa inyuma yaryo hari ishyamba, harimo ibiti byinshi cyane.

Ni ku muhanda, haparitse imodoka, hari umutaka wa MTN, hari ipoto, ririho insinga z'amashanyarazi, hariho itara, hari amazu y'ubucuruzi menshi.

Ni ku nyubako hari ipoto ry'amashanyarazi ririho insinga nyinshi, hari icyapa, hari imibare yanditse ijana na makumyabiri na gatandatu, inzu yubakishije amatafari ahiye n'amabuye.

Ipiloni ry'amashanyarazi ritwara insinga z'umuriro ahantu hagiye hatandukanye, iruhande rwayo hari ubusitani busa neza inyuma yaryo hari urugano rutohagiye ruri mu ibara ry'icyatsi.

Ndahabona imodoka ebyiri zirimo ziparitse, hari umuntu uhagaze, hari umutaka wa emutiyeni, hari inze eshatu, hari n'amapironi abiri ariho insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi. Hagati y'imodoka hahagaze umuntu, no hirya hari indi modoka y'umutuku, na ho hahagaze undi muntu.

Inyubako ndende isize amarangi y'umukara, hariho iruhande rwayo ipoto rirerire ry'amashanyarazi ritwaye insinga; inyubako nziza, isize amarangi y'umuhondo ku nzugi n'amadirishya.

Hari inyubako iri mu bwoko bw'inyubako z'ubucuruzi, hari amapironi ebyiri ariho insinga z'amashanyarazi, arizo zifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, ku nyubako Hariho icyapa cyanditseho banki, inyuma yayo y'inyubako hari igiti kiri guhinguka.

Umuhanda mugari wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu ndetse n'ibinyabiziga, uwo muhanda hagaragaramo umumotari wambaye kasike y'umutuku ufite n'indi kasike y'umutuku mu kuboko kw'ibumoso ndetse na jire y'akazi y'umutuku, imbere ye haparitse igikamyo gisize irange ry'umweru gipfukirije ibara ry'ubururu bigaragara ko ari umuhanda mugari urimo urujya n'uruza rw'abantu.

Hari ipironi ririho insinga z'amashanyarazi zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi hirya no hino, hasi imbere yaryo hateye ibiti by'ubwoko butandukanye.

Amafaranga y'amanyamahanga yo mu gihugu cy'ubuhinde yo muri banki rizavu y'ubuhinde, ikaba ari amafaranga magana cyenda afite ishusho ya mahati magandi.

Amapironi abiri ariho insinga z'amashanyarazi, zikwirakwiza umuriro hirya no hino hari n'ikirere gisa ubururu n'umweru.

Inyubako yubatse iruhande rw'umuhanda, mo imbere hari inzu ifite igisenge cy'umutuku, hejuru haragaragara ipoto rirerire ry'amashanyarazi, muri iyo nzu haragaragaramo kandi insina.

Iki modoka kinini gitwaye abagenzi imbere haraho bategera imodoka hicaye umuntu wambaye imyenda y'umukara n'intebe irasa umukara inyuma. Mu kazu yicayemo hasize irangi ry'ubururu n'amabati ahasakaye nayo arasa ubururu, hirya inyuma ya ho y'imodoka hari ipironi ry'amashanyarazi rihuriweho n'insinga nyinshi.

Inyubako nini nziza cyane iriho imbere yayo hari ubusitani bwiza, hari idurapo ry'igihugu cy'u Rwanda rigizwe n'amabara ubururu, umuhondo n'icyatsi kibisi, imbere yaryo hari umudamu uri kuhatambuka, wambaye imyenda y'umutuku, inyuma ye hari akana nako kari kuhatambuka.

Inzu nziza ya etage isize irangi ry'ubururu, imbere yayo haparitse imodoka ziteye irangi ry'umweru n'umutuku, impande y'iyo nzu hari umugabo wambaye imyenda y'umukara usa naho hari ari kwinjira muri iyo nzu, imbere y'iyo nzu hasi hapavomesheje amabuye.

Inyubako nziza ifite igisenge cy'umutuku, iruhande rwayo hari utundi tuzu dufite amarangi y'umuhondo, hari abantu bari kuhasohoka, hari n'umugore ufite igikapu mu ntoki uri kuvurira kuri telefone.

Hari inyubako eshatu nziza cyane, zifite ubusitani, hateye urucaca, hari n'izindi ndabo, hari indabo zitukura, hari indabo z'ubururu, hari indabo z'icyatsi kibisi, haranubakiye bigaragara ko hari parikingi.

Hano haragaragara imodoka eshatu hagaragaraho ibitaro bya kaminuza haragaragara inyubako yiganjemo irangi ry'umuhondo, ubururu hagaragara idarapo ry'u Rwanda ryiganjemo icyatsi, ubururu n'umuhondo.

Hari umuntu uri gutambuka, bigaragara ko ari mu ivuriro, aho ari kunyura harasakariye, ku mpande hateye indabo, ku mpande zose hasi hariho kaburimbo harakotiririye, hirya hari inzu ifite urugi rufite irangi ry'icyatsi kibisi.

Ni hagati y'inyubako bigaragara ko ari mu ivuriro, hari umuntu ukora amasuku abo tuzi ku izina ry'abakirina, ari kuhatambuka imbere ye hari abandi bari kuza batwaye umurwayi, bari kunyura ahantu hasakariye, hirya hari ubusitani bwiza cyane no hino hari ubusitani bwiza cyane, imbere yabo hari inyubako nini.

Haparitse imodoka eshatu, hari abantu batatu bahagaze bigaragara ko bari kugenda, umwe afite litiro afite n'icupa, undi bigaragara ko ari umukozi w'isuku abo tuzi ku izina ry'abakirina yambaye imyenda y'ubururu, inyuma ye hari umubyeyi, hirya hari umugabo uhicaye wambaye ishati y'umukara n'ipantaro y'umweru.

Inyubako ebyiri, imwe iri hirya, indi iri mu gipangu, hagaragara ko ari nko muri parikingi yubakiye, isakaje amabati, ifite n'inkingi z'ibyuma.

Hari inyubako nziza cyane, imbere yayo hari ibiti hari n'ubusitani bwiza, ku ruhande rundi hahagaze umuntu, hakurya y'inyubako hari imodoko bigaragara ko haparitse imodoka nyinshi muri make ni muri parikingi.

Umurongo watanzwe mu rukiko umutangabuhamya avuga ibyo yiboneye cyangwa ibyo yumvise mu buryo butaziguye, ariko urukiko ni rwo rwonyine rusuzuma mu bushishozi bwarwo icyizere cyangwa ireme rukwiye guhabwa harebwe ububasha bw'urukiko bwo gusuzuma ubwigenge no mu bushishozi bwarwo ibimenyetso byose rwashyikirijwe.

Hano hari abaturage bicaye hamwe, harimo umumama ufite impapuro z'umweru, harimo inzu ifite urugi rusa ubururu, bicaye mu bice bibiri bitandukanye, bamwe bicaye iburyo abandi ibumoso, abandi hakuno.

Hari abaturage benshi, bari mu nama, hari imfungwa, cyangwa se uwo twakita ko yambaye imyenda y'imfungwa, imbere ye hari ameza ariho impapuro, n'agasanduku kameze nk'agakarito.

Icyapa cy'umweru kiriho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda cy'agaseke, cyanditseho amagambo ngo igororero rya Musanze, kiriho kandi ikindi kirangantego ku rundi ruhande, giteye ku nzu isize irangi ry'umuhondo, imbere y'iyo nzu hateye ibiti birebire.

Ni mu rukiko, hari abacamanza, bambaye amakanzu n'udupfukamunwa, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi, hari imfungwa, hari n'umushinjacyaha, hari n'abaje gukurikira urubanza bicaye.

Abagabo 3 bicaye bafite mudasobwa imbere yabo 1 ni we udafite inyuma ye mudasobwa bambaye amakanzu undi yambaye ikoti n'umwe niwe wambaye indorerwamo z'amaso.

Hari abantu benshi bigaragara ko ari abaturage bari mu nama, hari abayobozi bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza, hari n'umugabo ubahagaze imbere, bambaye imikandara iriho ibirango cyangwa se iriho idaporo y'igihugu cy'u Rwanda, hirya hari undi uhagaze ufite impapuro, abandi bicaye hasi abandi bicaye ku ntebe.

Umunyururu umugore wambaye indorerwamo z'amaso n'ikanzu ye roza, ufite amapingu ku maboko. Inyuma ye hagaze umusoruveya wambaye ingofero ndetse n'imyenda ya kaki. Impande y'uwo musoruveya hari urugi rurimo ferabeto rusize irangi ry'icyatsi kibisi, hepfo y'urwo rugi haparitse imodoka y'umukara ndetse n'undi musoruveya uhagaze kuri iyo modoka.

Ni abagabo babiri umwe ugaragara nk'umucamanza yambaye indorwamo zamaso n'imfungwa yambaye inifomo y'imfungwa bari kuganira umucamanza afite telefone mu ntoki bicaye mu rukiko.

Umugore wambaye agapfukamunwa k'ubururu, wambaye ikibubu gifite ibara ry'umutuku, yicaranye n'umugabo wambaye agapfukamunwa k'umukara n'ikoti ry'abavoka ry'umukara ndetse ucigatiye terefone mu ntoki, munsi y'ibiganza bye harimo imashini iteretse ku bibero, inyuma yabo hicaye abandi bantu babiri, bigaragara ko bari mu cyumba k'iburanisha.

Ni mu cyumba, hari umudamu wicaye yambaye ibitukura, n'undi wambaye ibikanzu by'umukara uri gusinya, imbere yaho hari ikaramu, hakurya hicaye abandi bantu, hari n'undi muntu uhagaze.

Mu rukiko hari imfungwa imwe yambaye iniforomo y'imfungwa yambaye agapfukamunwa k'umweru, afite ibitabo mu ntoki. Hirya inyuma ye hari ameza arambitseho mikoro, mu bigaragara hirya hari agacupa k'amazi gateretse ku meza.

Hari umugabo wambaye ikanzu itukura, ku ikanzu amanitseho ibara ry'umweru, hariho n'utubara dutoya tw'umukara mu imbere yambaye ishati itukura, ari kuri kava y'umweru cyangwa se ku gikuta cy'umweru bigaragara ko yari ari gufata ifoto ngufi.

Hari abantu babiri bambaye imyenda isa n'ingofero, inyuma yaho hari undi mugabo wunamye inyuma bigaragara ko ashinzwe umutekano, afashe itiyo y'amazi mu bigaragara habaye inkongi y'umuriro bari kuzimya, hirya ku ruhande hari igiti cy'ururabo, hirya y'icyo giti hari umuntu.

Aha ni mu ikaragiro ry'amata aho hagaragaramo imashini zagenewe gutunganya amata, hakagaragaramo ameza, harimo indobo, harimo amakaro. Iyo urebye ku nkuta hariho irange ry'ubururu, urukuta rwiza cyane rusa n'ubururu ndetse aha hantu ni heza pe.

Hari imodoka ya polisi, hakaba na moto ebyiri na zo za polisi, ku modoka hicaye abapolisi babiri inyuma, kuri moto na ho hagiye hariho umwe umwe, hakurya y'umuhanda hari ibiti birebire cyane.

Umugozi wa kizimyamwoto, wifashishwa iyo bari kuzimya inkongi y'umuriro, bakayicomekanya kugira ngo amazi abashe kugera ahantu kure, bategereye inyubako cyangwa se ikindi kintu cyose cyafashwe n'inkongi.

Umuhanda urimo abapolisi batatu bambaye impuzankano yabo, imbere hari abantu bicaye munsi y'imitaka ifite amabara y'umuhondo ya MTN, inyuma yabo ku rundi ruhande hari umunyonzi wambaye umupira w'icyatsi n'ingofero itukura.

Umupolisi yambaye iniforome, yambaye ingofero ari kuvuga, inyuma ye hari ikirango cyanditseho cyangwa se cya polisi y'u Rwanda.

Hari umupolisi uri kumwe n'abandi bantu, mu bantu bari kumwe hari umwe wambaye ingofero y'umutuku umupolisi yamutunze urutoki, inyuma yaho bahagaze hari abandi bantu, hari umugabo wifashe ku mubiri hirya inyuma hari icyapa cyanditseho tekino.

Kuri kaburimbo haparitse moto iriho umuntu, hari umupolisi uhagararanye n'undi muntu, hakurya hari ibyatsi, inyuma yaho hari inyubako, hari ibiti, hasi hakikijwe n'indabo z'ubururu.

Kizimyamwoto ziri mu ibara ry'umutuku, zanditseho amagambo yandikishije ibara ry'umweru faya, zipfundikishije udupfuniko tw'icyatsi kibisi, ziteretse impande y'ibikarito by'umweru bye bifite ibyapa by'umutuku kuri ibyo bikarito, iruhande rwabyo hari umufuka.

Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ari kumwe n'abapolisi benshi, imbere ye hari umukobwa wambaye imyenda y'umukara, ahantu bari hari ibirango bya RPF yambaye umupira w'umweru ipantaro y'umukara n'ingofero y'umukara.

Ni muri stade hari abaturage benshi bambaye ibirango bya RPF ingofero, udutambaro bafite udutambaro, imipira imbereho kuri stade cyangwa se aho binjirira hari icyapa cyanditseho umuturage ku isonga.

Hari umudamu yicaye imbere ye hari yo impapuros ni ikaramu ya mpi uciye amabokomweru ahantu hicaye hasa nkaho hari abandi bantu hakurya twasa nkaho hijimye mukuntu hatari kubona mo neza.

Abantu batatu bishimye, abagore babiri n'umugabo umwe. Umugore yambaye indorerwamo z'amaso, umugabo yambaye ikositimu. Bari bambaye imyenda irimo amabara y'umutuku n'ubururu. Inyuma yaho hari undi mugabo yicaye wambaye ikoti, hari n'intebe zifite amabara y'ubururu.

Ni mu cyumba hari abantu batatu bahagaze, babiri bari ku ruhande rumwe, undi umwe ari kurundi ruhande, bambaye imipira y'icyatsi n'imikandara y'icyatsi, hari undi wicaye ufite indangururamajwi imbere ye, yambaye isaha, yambaye umweru mo imbere yambaye icyatsi , yambaye n'indorerwamo z'amaso, inyuma ye hari idirishya.

Hari umugabo wicaye, wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru na karuvate, imbere ye haride idarapo y'igihugu cy'u Rwanda, ari guseka aramwenyuye muri make arishimye.

Hari abagabo babiri hari n'abadamu babiri, umwe afite urupapuro undi afite telefone yambaye isaha mu ntoki, undi umugabo yambaye indorerwamo z'amaso, undi mugabo afite indangururamajwi.

Umugabo wambaye ikote n'ishati yumweru karuvati imbere ye hateretse amazi na mikoro ikindi inyuma ye hari ishusho yumukara n'umweru.

Perezida wa repubulika Paul Kagame, hari idarapo ry'u Rwanda n'umugore we madamu Jeannette Kagame, hirya hari umuntu wambaye igikanzu cy'umutuku n'ingofero, bigaragara ko ari nk'umucamanza.

Perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yambaye imyenda y'umukara, yambaye indorerwamo z'amaso, ari gusuhuzanya n'undi musaza nawe wambaye imyenda y'umukara hejuru, mo imbere yambaye ishati y'umweru, hirya hari umudamu wambaye ikanzu irimo amabara y'umukara n'umweru, hirya inyuma yaho hari abandi bagabo bambaye amakoti y'umukara n'amashati y'umweru.

Hano hari abantu, hari abana, ababyeyi, hari abapapa muri make hari ibyiciro bitatu, hari umugabo, abana babiri bamuhobeye hari abari gufotora bakoresheje amatelefone yabo, hari n'icyapa cyangwa se icyo twakita nk'idarapo.

Hari umudamu wicaye ku ntebe y'umukara, afite imisatsi y'umukara, yambaye ikote ry'ubururu mu ijosi afitemo agatambaro k'umweru, imbere ye hateretse amazi, yambaye isaha, yambaye n'amaherena, iruhande rwe hari idarapo ry' u Rwanda rigizwe n'ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Amafaranga y'amadorari azinze mu mifungo akaba ari imifungo itandatu iyi mifungo uyibonye yaguhindurira ubuzima rwose kuko amadolari ni amafaranga menshi cyane kandi avunjwa amafaranga menshi uyashyize mumanyarwanda rero uwayaguha wahita ugira ubuzima bwiza.

Perezida wa repubulika y'u Rwanda paul kagame ari kunyura muri stade impande yasezege muri stade hari abantu benshi cyane hari abagabo bambaye amakoto y'umukara n'abadamu bakinyeye imikenyero hari n'abapolisi bamukikije.

Ni abagore babiri umwe yambaye ikanzu undi yambaye ipantaro harikinu bari kumanika imbere yabo hateretse udukarito bambaye inkweto z'umukara bambaye umukara n'umweru.

Mu muhanda hari umumotari, umwe ari kugenda areba imbere, undi ari kureba inyuma. Ni babiri. Hakurya hari icyapa, cy'amabara yumutuku n'umweru. Umumotari yambaye ipantaro y'umukara, yambaye na cask. Hakuryaaa, hari umuntu wambaye umweru n'umukara, hari n'ibiti birebire, hari n'ipoto.

Igikamyo kinini gisize irangi ry'yumweru n'akarangi k'icyatsi kibisi hasi, gihetse imifuka y'amakara, hejuru y'imifuka y'amakara hariho agashitingi kari mu ibara ry'ubururu, iyo mifuka y'amakara izirikishije imikoba, impande yacyo hari agati karekare ndetse hepfo y'ako gati hari n'akandi gati karekare bisa nk'aho iki gikamyo gitwaye amakara ahantu runaka.

Ni muri kaburimbo hari ikinyamitende gifite amapine atatu, harimo abantu babiri, inyuma yacyo hari moto ihetse umuntu n'imbere yacyo hari indi moto ihetse umuntu, hakurya hari igare ry'umuntu uhetse gaze, hakurya y'umuhanda hari ibiti, imbere y'ibyo biti hari uruzitiro n'inyuma y'urwo ruzitiro hari imodoka.

Hari imodoka y'ikamyo inyuma yayo hari igare hari na moto hirya kure haraturukayo indi modoka, ku mpande cyangwa se inyuma hirya ya kaburimbo hakikijwe n'ibiti birebire cyane.

Ikimodoka kinini gitwara abagenzi gisize irange ry'umuhondo n'umweru, impande yacyo hari umunyonzi wambaye ikote ry'ijakete y'umutuku uhetse umugenzi, hakurya y'iyo modoka hari ibiti birebire cyane bizitije supaneti isa icyatsi kibisi, bigaragara ko imbere y'ibyo biti harimo harakorerwa igikorwa runaka.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abamotari bambaye kasike zibarinda impanuka, bafite moto zifite pulake z'imihondo, impande y'abo bamotari hari umuhungu uhahagaze wambaye ijiri irimo ubururu n'umweru, hirya y'uwo mumotari hari imodoka ifite pulake RAE364S, isize irangi ry'umweru.

Hari imodoka mu muhanda yo mu bwoko bwa moto, hakurya hari indi modoka, abagenzi babiri, bakikijwe n'ibiti binini, hino imbere hari uturabyo dutoya.

Igare n'umuntu uri kurisunika rihetse umuzigo; hari n'imodoka mu muhanda muri kaburimbo; imbere n'inyuma hari n'umuntu wo gucunga ingorofani; hari na moto iri guhinguka.

Umumotari wambaye kasike y'umuhondo. na jire irimo ibara ry'umuhondo n'ubururu, ufite parake ya rh umunani gatatu karindwi j. Ari mu muhanda wa kaburimbo, kuruhande rwe rw'ibumoso hari abagenzi, barimo umuhungu wambaye agapira k'icyatsi kibisi n'ipantaro ya kacye, n'undi wambaye agapira k'umuhondo, karimo imibare ya mirongo icyenda na gatandatu.

Hari imodoka nini ya tagisi cyangwa se bisi, imbere yayo hari kunyura umuntu uhetse igikapu, wambaye umukara hejuru hasi umweru, n'inkweto zifunze, bisi isa umweruru, amapine y'umukara hirya inyuma urabona ko hari ipironi, ririho itara ry'amashanyarazi.

Imodoka itwara abagenzi benshi, izi modoka zikorera mu mujyi wa Kigali, aho ziba zitwara abantu batagiye mu rugendo rwa kure, inyuma yayo hari inyubako ya etaje ifite irangi ry'umuhondo, iruhande rw'iyo modoka hari umugore wambaye itaburiya y'icyatsi urimo gutambuka.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umumotari wambaye kasike y'umutuku imurinda impanuka, ufite n'indi kasike mu kuboko ifite ibara ry'ubururu. Inyuma y'uwo mu motari hari amazu y'ubucuruzi asize irangi ry'icyatsi kibisi, hari kandi n'inzu iri kubakwa ya etaje nayo iri mu irangi ry'icyatsi kibisi.

Hari bisi itwaye abagenzi, hari umuntu uri kuyinyura iruhande, bisi ifite amabara y'umweru, ubururu n'icyatsi n'umuhondo, inyuma yayo hari ibiti binini cyane.

Ni muri kaburimbo, hari imodoka, akamodoka ko mu bwoko bwa moto, inyuma yako hari moto ebyiri, hari abagenzi babiri, hari n'icyapa, ku mpande za kaburimbo hateye indabyo.

Hari imodoka nini y'igikamyo, hari icyapa cyanditseho mitsingi, hari ibiti by'ubururu bifite amababi y'ubururu, ibiti binini, hari n'umuhanda wa kaburimbo, hakuno hari esikariye.

Imodoka eshatu, hari igiti kinini cyeze uturabyo dutukura, hari n'ibindi biti bitoya, hejuru hari inyubako, imodoka irimo umweru n'amabara y'umuhondo, indi ni umukara, indi ni umweru na yo.

Ni mu muhanda hari imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo cyangwa se bwa hoho, ifite ibara ry'umutuku, imbere yaryo hari igare, umuntu uriho atwaye undi, bambaye imyenda y'imyeru hejuru, umwe yambaye n'ingofero y'umutuku, hakurya y'umuhanda, hari ibiti birebire, hari n'irindi gare riri kumanuka.

Ikimodoka kinini cyane cyanditseho wata tanki gifite ibara ry'umweru n'ubururu n'amapine y'umukara, giparitse mu muhanda, iruhande rwawo inyuma yacyo hirya hari ibiti binini cyane, hirya harimo inyubako hari n'abantu.

Hari imodoka y'ikamyo, hirya hari icyapa, haparitse n'imifuka, imbere yayo hari n'izindi modoka, hari n'abantu benshi, hari rigori, aho abagenzi banyura yangiritse, inyuma y'ikamyo hari undi muhungu.

Iyo abayobozi basoje inama bari barimo hari ahantu habugenewe bahurira bakiga ku myanzuro yafashwe ndetse bakanatanga n'umucyo ku bibazo byagiye bigaragazwa ,aho hantu iyo bahageze baraniyakira.

Imodoka nini y'umweru iri mu bwoko bwa dayihatsu, imbere yayo hari umuntu wambaye igisurubeti cy'ubururu mu imbere yambaye umupira w'umutuku, yikoreye umufuka, inyuma yayo hari moto hakurya y'umuhanda hari ibiti binini cyane, imbere yayo na none hari itara.

Imodoka eshatu z'umutuku ziri aho bigira gutwara imodoka, cyangwa se nkaho twakwita ko bigishiriza amategeko y'umuhanda, inyuma yazo hari uruzitiro rw'ibiti n'indabo bihakikije, hari utundi tuntu tw'umutuku, tumwe imodoka zigenda zikatamo igihe bari kwiga gutwara.

Inzu ikodeshwa iri Kicukiro muri Kigali, ifite ibyumba bine n'amadushe atatu na tuwarete ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atanu ku kwezi.

Mu muhanda hari abantu benshi bari guturuka mu mpande zitandukanye. Hari umuhanda w'abanyamaguru hejuru hari na kaburimbo iri kunyuramo moto hagati aho abantu ba bari kunyura cyangwa ku mpande z'uwo muhanda abanyamaguru bari kunyuramo hari inyubako ku ruhande rw'iburyo no kuhande rw'ibumoso hino hari ipoto.

Hari ibiti byinshi cyane kandi binini, imbere yabyo hari ikibuga cya basikete, aho bakina umupira bajugunyamo hejuru mu kantu kameze k'agapaniye, kandi icyapa aho banaga umupira gifite amaguru y'umweru, abiri ahagaze n'undi utambi...

Hari icyapa cya mpandeshatu kigaragaza ko imbere hari umuhanda ukomeza. Ariko kikaba kinerekana ko umuhanda wundi ufunze icyo cyapa gikozwe mu mabara atatu hari umutuku, umukara hakaba n'umweru.

Icyapa cy'umutuku kiri muri forume y'uruziga, imbere harimo ibara ry'umweru, handitsemo n'imibare gatatu, zeru, byanditse mu ibara ry'umukara, icyo cyapa kiri ahantu hari umweru.

Icyapa kirekire, kiri mu ibara ry'umuhondo rikikijwe n'ibara ry'umukara, hejuru harimo agafureshi k'umukara kareba hejuru, munsi y'ako gafureshi harimo akanyempande gafite ibara ry'umutuku gakikijwe n'utubara tw'umweru.

Ni icyapa kiri muri mpandeshatu, kiriho ikirango kigaragaza ko hari umuhanda ushamikiye ku wundi, icyo cyapa kikaba kigizwe n'amabara atatu, hari ibara ry'umutuku, hari ibara ry'umweru n'ibara ry'umukara.

Icyapa cya orange gifite akabara k'umukara kakizengurutse cyampande enye kiri ahantu h'umweru mwimbere muri icyo cyapa handitsemo amagambo avuga ngo "ROAD WORK A HEAD" kiri kwerekana ko imbere hari gukorerwa ibikorwa byo kubaka umuhanda.

Icyapa cya mpandeshatu cy'umuhondo gikijwe n'ibara ry'umutuku mu mpande, gishushanyijemo uturongo tw'umukara dutanu, muri utwo turongo harimo umuntu uri gutambuka. Kiyobora ibinyabiziga ko imbere hari aho abanyamaguru bambukira.

Hari icyapa gishushanyijeho umuntu kigaragaza ko ari mu nzira nyabagendwa cyangwa se ari aho umuntu agomba kwambukira, inyuma yacyo hari ibiti birebire cyane binini bigikikije.

Hari icyapa cyanditseho mirongo itandatu, hasi hari ikindi cyapa cyanditseho ngo sipidi kamera ahedi bagaragaza ko imbere ari kamera zipima umuvuduko cyangwa se zikontorora umuvuduko mu muhanda, inyuma yacyo y'icyapa hari igiti kirekire cyane.

Icyapa cy'ubururu gikozwe mu ruziga kizengurutswe n'akarongo k'umweru ndetse n'akandi karongo k'ubururu kazengurutse ako karongo k'umweru mwimbere harimo agafureshi kari mu ibara ry'umweru gakomeza imbere n'akandi gakase mu buryo bw'ibumoso kirimo kirereka ibinyabiziga ko uwo muhanda ukomeje imbere ndetse hariho n'undi uwushamikiyeho ukata ibumoso.

Ni ku mupaka wa Kongo hari ibyapa bitatu, kimwe cyanditse mu gifaransa, ikindi mu kinyarwanda, bigaragaza ko ari muri Kongo, ikindi gisobanura ko cyose cyifuriza abantu urugendo ruhire, hari abantu hari n'inyubako zitandukanye.

Inyubako nini cyane igeretse, imbere yayo haparitse imodoka ebyiri na moto ebyiri, hahagaze n'umuntu.

Hari ishyamba, hateye ibyatsi byinshi by'ubururu. Hicaye abantu babiri umwe yambaye agapira k'umukara n'inkweto z'umweru. Undi yambaye umupira w'umuhondo, ipantaro y'umukara n'inkweto z'umweru. Inyuma hirya gato hari icyapa kigaragaza parike nyandungu.

Hoteri nini iri mu bwoko bwa etaje igeretse gatatu yanditseho giriti apatimenti hoteri ivuze ko ari hoteri nziza irimo amacumbi akodeshwa.

Ni inyubako ikikijwe n'ibyatsi, ibiti hari icyapa cyanditseho mirongo itanu n'icyenda siti, hari igiti cy'ubururu hari igiti gatoya n'akanini, imbere yaho gato hari n'ikindi gisa ubururu cyane.

Inyubako nziza za etaje, munsi yazo iruhande hari imodoka nyinshi ziri mu mabara atandukanye yiganjemo umweru n'umukara. Hari n'abamotari bari kwerekeza kuri iyo nyubako, yo kwa Rando iherereye mu mujyi wa Kigali.

Hari inyubako zitandukanye, hari ku ruhande rumwe zirahari no ku rundi, hari abagabo babiri, harimo ugaragara ko ari umusaza wambaye ingofero'umweru n'ikote ry'umukara hakaba n'undi wambaye ishati itukura n'ipantaro y'umweru.

Icyapa cyanditseho Kimironko kwa Nyanzira munsi yacyo hari ibiti byinshi n'amazu menshi menshi cyane, haciyeho kuri icyo cyapa hanyuraho urusinga rw'amashanyarazi, hari amazu asakaje amabati, hari amazu afite inyubako z'umweru ndende kandi zigeretse, hirya hari amazi nk'icyo twakwita nk'umugezi.

Hari umuntu uri mu muhanda, hari imodoka y'umukara no hirya yaho hari indi y'umweru, hari abantu bari kugenda, hari umutaka wa MTN, hari n'umuntu uwicayemo, hari ipoto y'umuriro w'amashanyarazi rikwirakwiza hirya.

Ni ahantu hari inyubako nyinshi zitandukanye hari ibiti, hari inyubako ndende, hari inyubako ngufi, hari izisakaje amabati, hari izisakaje amategura, imbere hari igipangu gikozwe mu mabati.

Hari inyubako nyinshi cyane zicucitse nk'icyo twakwita amanegeka, zirimo hagati y'ibiti, hagati y'inyubako n'izindi hari ibiti byinshi, hari urutoki, hari amapoto, icyo twakwita amapironi y'insinga z'amashanyarazi.

Iyo abayobozi basoje inama bari barimo hari ahantu habugenewe bahurira bakiga ku myanzuro yafashwe ndetse bakanatanga n'umucyo ku bibazo byagiye bigaragazwa ,aho hantu iyo bahageze baraniyakira.

Inyubako y'ubucuruzi yanditseho hori shopu sitayiro ishushanyijeho amakositimu, inkweto amashati n'imipira iriho. Imbere yaho hari umugabo wambaye imyenda yumweru nipantaro yumukara hejuru handitseho ngo girini fudu supamaketi ari kwinjira.

Aho bambukira muri kaburimbo amabara y'umutuku ay'umweru amabara y'umutuku ari kuri moto ay'umweru n'umukara ari mumuhanda aho bambukira moto ziriho abamotari hakurya hari imodoka y'umweru nimodoka y'umukara n'umuntu uhagaze hakurya y'umuhanda wambaye ishati y'umukara.

Ni mu muhanda, hari moto ziri gutambuka, hari amagare ari kugenda, moto zihetse abantu, amagare nta bantu ahetse, hakikijwe n'ibiti byinshi cyane ku mpande zose, imbere hari isoko cyangwa se inyubako nyinshi cyane.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo abamotari, umumotari uri inyuma ahetse umugenzi wambaye kasike y'ubururu n'agapira k'umukara n'ipantaro y'umukara, hakurya y'uwo muhanda hateye ibiti birebire ndetse muri ibyo biti hagiye hahagaze amapoto asize irangi ry'umweru, afite insinga z'amashanyarazi zigemurira umuriro w'abaturage.

umuhanda wa kaburimbo urimo umunyonzi wambaye jire y'cyatsi kibisi n'umupira w'amaboko w'umukara n'ipantaro y'umweru, inyuma y'uwo mugabo hari akapa kanditseho nimero y'umuhanda, kaga gatandatu umunani umunani, impande yako kapa hari agati karekare ndetse n'akapa kagufi karimo ibara ry'ubururu umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Imihanda ibiri ihuriramo hagati, hateye ibyatsi by'icyatsi kibisi, hari icyapa gi umutuku n'kindi kiriho ibara ry'ubururu, hari igiti kirekire cyane twakwita nk'ururabo rw'ubururu, kaburimbo kuri borodire y'amabara y'umukara n'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragaza aho abanyamaguru bambukira, muri iyo nzira harimo igare n'umuntu uritwaye ufite jiri y'umuhondo, imbere ye hari undi muntu wambaye ingofero ndetse na jiri y'umuhondo na bote mu birenge.

Ni muri kaburimbo, hari imodoka, hari moto, hari amagare, hari abantu, hirya hari inyubako nini, hari n'ibiti bisa icyatsi kibisi, hari umugabo uhagaze imbere y'igare.

Ni imodoka y'ikamyo iriho abagore babiri, ifite bari gusunika, imbere yayo hari indi modoka izindi modoka ebyiri, bari munsi y'ikiraro, hejuru yacyo no hakurya y'aho hari ibiti.